Abaturage bahuriye ahantu hamwe baje mu nama, bicaye ku ma meza barazengurutse, imbere naho hari abayobozi babo bakaba bari kunywa amazi y'inyange, bafite impapuro buriya baba baje kuganira ibyubaka igihugu cyacu.

Umugabo wicaye imbere ariho arabwira abagore babiri buriya afite ibyo ari kubabwira, kubagira inama cyangwa ibindi, bakaba rero bari kunywa amazi y'Inyange amazi meza akorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umugore umwe akaba yambaye amadarubindi, undi nawe afite ikaramu mu ntoki.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe bafite ibyo bari kuvugaho, hagati harimo umugabo uriho urabagezaho ibyo ababwira, abandi nabo baramugaragiye bamuteze amatwi bakaba bari kumwumva ibyo yaba ari kubagezaho nkuko bitabiriye.

Hano hakaba hari abantu benshi, aho wagira bari mu nama, imbere hari abantu bahicaye batanu b'abagabo bageretse amaguru ku yandi, urabona ni abantu biyubashye, hano aba ni abaje kubakurikirana ngo bavumve ibyo barabagezaho.

Aba bagore babiri cyangwa abakobwa baricaye bari, wagira bari mu nama. Umwe wambaye amadarubindi afite idangururamajwi mu ntoki, akaba arikuvuga, arigutanga nk'igitekerezo cyangwa inyunganizi. Imbere yabo hari ibitabo amazi y'inyange.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu bantu benshi abagore n'abagabo bari ahantu wagira ngo bari mu nama urabona bari kunywa amazi y'inyange n'ibindi bikorwa n'ibindi bintu bikorwa n'uruganda rw'inyange byo kunywabwa biryohera.

Abantu bari mu nama, imbere hari abicaye imbere harimo n'ushinzwe umutekano, wambaye ibedera ry'igihugu ku rutugu, hari n'abakurikiye abari imbere hari abari kuvuga hari n'abari kubwirwa. Baba bahuriye hamwe kugira ngo bagire ibyo banobaza.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu harimo umugabo umwe, n'abagore bandi bane, n'undi mugabo wicaye ku ruhande wambaye ishati y'umweru, hano rero bakaba biteretse amazi y'inyange, amazi meza akorerwa mu Rwanda.

Abantu bicaye hamwe, barimo aba nyafurika, abirabura, harimo n'aba ruhu rwera, bafite ibyo bari kuganiraho, bari kureba imbere n'iyuma hagiye hari andi meza bakaba bari kunywa amazi y'inyange, amazi akorerwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Itsinda ry'abantu, abakobwa, abahungu, abagabo n'abagore, aho bari hamwe barimo barifotoza, gusa bakaba bari baje kuganiraho kandi biteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, aha rero ahantu bari higanje mu ibara ry'ubururu.

Abantu bari hamwe benshi bicaye barebana imbere hari undi uasa nk'aho wagira ngo arabayoboye bamwe bagiye bafite za mudasobwa imbere yabo bari mu nama bari kunywa amazi y'Inyange akorerwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bashyize hamwe higanjemo abagore cyangwa abakobwa, igitsina gore ni cyo kigaragaramo gusa, bakaba bigaragara ko baje mu bijyanye no guteza imbere igihugu cyacu nk'uko byanditse inyuma, bakaba bari kunywera amazi y'Inyange.

Itsinda ry'abantu ry'abagabo n'abagore cyangwa abakobwa bafite ibyo bari kuganiraho bagira ngo buze cyangwa ba bitezembere igihugu cyacu cy'u rwanda kandi nabo biteza imbere kandi rero baba bari kuganira imbere hari umuntu n'ururabo baravuga ijambo.

Aha rero, hari abantu bariho bareba imbere. Hari n’undi uhagaze, uri kubarerekera ibintu afite icyo bibereka. Hano, hari za mudasobwa nyinshi, abazikoresha bari kwifashisha bashaka ibintu byerekeranye n’ibyo bari kureba.

Abantu bashyize hamwe abagabo inyuma hariyo uri gufotora baje bahuriye mu nama, bafite za mudasobwa imbere yabo amakayi, uturangururamajwi, imbere yabo naho hicaye abayobozi bari kunywa n'amazi y'inyange.

Itsinda ryabantu bari mu nama, hagaragara umugabo n'abagore babiri, nundi wa ruhu rwera wicaye ku ruhande rundi, bakaba bafite amazi y'inyange, amazi akorerwa mu Rwanda kandi ubu bakaba bari mu nama bicaye barebana.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bariho bafite ibyo bari kuganiraho, bari kunywa amazi y'Inyange, urabona bagiye bicaye kuma meza, ameza, abantu benshi bicaye bigezweho, aho baba baganira ari nk'abantu nk'icumi bagahita baganira ku kintu runaka bitewe n'ibyo baba bari kuvugaho.

Itsinda ry'abantu ry'abagabo, abagore bari kuma meza bafite za mudasobwa bariho baranywa amazi y'inyange bariho barareba imbere, hano bakaba bahahuriye kugira ngo bagire ibyo baganiraho banozaho byubaka u Rwanda.

Itsinda ryabantu, itsinda ry'abakobwa, ndabona aribo gusa, abakobwa cyangwa abagore bakaba bari kunywa amazi ya nili, amazi meza bakaba bicaye ahantu hasa neza, ku mameza asa neza n'intebe zisa neza.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu baje hamwe bambaye imipira y'umuhondo n'imipira y'ubururu, bakaba bameze nk'urubyiruko, imbere hari abayobozi babo, baje ngo bagire ibyo babagiraho inama cyangwa bubaranrana ibitekerezo.

Itsinda ry'bantu bari mu nama, hakaba hari umugore wambaye amadarubindi, hirya hari umugabo ufite mudasobwa imbere ye, hakaba hari n'uri kubafotora hirya aho bari mu cyumba kiri kuberamo inama.

Itsinda ry'abantu abagore n'abagabo, hakaba higanjemo abahungu n'umukobwa ku ruhande bari kunywa amazi y'uruganda rw'inyange akorerwa m'u Rwanda, inyuma hicayemo undi mugabo wambaye amadarubindi.

Abantu bahuriye hamwe bafite ibyo baje kuganiraho hagati harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'amadarubindi, yirya yabo n'undi mugabo umeze nk'umuzungu cyangwa bita ba ruhu rwera, afite mudasobwa ifunguye, hirya hari undi mukobwa ufite mudasobwa ifunze, bakaba bari kumwe n'amazi y'inyange.

Abagore batatu wagira ngo bari mu nama aho bicaye ku meza bariho barareba imbere barebana nawe bari kureba ashobora kuba ari umuntu uri kubabwira abagore bakaba bari kunywa amazi mazi y'inyange.

Abantu bihurije hamwe bari mu nama, bafite ibyo bari kuganiraho, bose bari kureba umuntu umwe, uri imbere, bamwirukira mu ruhande rw'iburyo, abandi ibumoso, bose bari kunywa amazi y'inyange, amazi meza akorera mu Rwanda atufasha kumera neza.

Aba ngaba bakaba ari abantu, aho bicaye bari mu nama bashyize hamwe, inyuma hari ahantu handitse mu ibara ry'ubururu ngo Kigali yacu, noneho mu ibara ry'icyatsi naho hakaba handitse ngo Kigali ikeye, tuba tugomba gusukura Kigali yacu tukayibamo isa neza.

Itsinda ry'abantu n'itsinda ry'abagabo n'abagore bafite za mudasobwa imbere yabo. Bafite ibyo bari kujyaho inama bari kuganiraho, hano rero bakaba bicaye barebana abandi bari imbere, aho hari umuntu uri imbere uhora ugenda bitewe n' nibyobyo bari kuvugaho

Itsinda ry'abantu bashyize hamwe bafite ibyo barimo baraganiraho, bafite za mudasobwa imbere yabo, uturangurura amajwi barimo barareba imbere bose, hari uhagaze ashobora kuba afite ibyo ari kubabwira kuko afite n'urupapuro mu ntoki.

Abantu bihurije hamwe baje bari mu nama bakaba bicaye ahantu hasa neza ahantu h'ikizeru bakaba bicaye ku ntebe nziza, bakaba bafite uturangururamajwi turabafasha kuvuga ngo byumvikane bakaba bari kunywa amazi y'Inyange.

umugore hariho baratangaje rerovuga ijambo nyuma'ca abandi bantu bane abagabo batatu n'umugore umwe yambaye amadarubindi bamwe bakaba baje mu namaryo bari kuganiraho biteza igihugu cyacu imbere Umugore arimo aratanga aravuga ijambo nyuma abandi bantu bane , abagabo batatu n'umugore umwe yambaye amadarubindi , bamwe bakaba baje mu nama y'uburyo bari kuganiraho biteza imbere.

Umugabo wambaye amadarubindi, ufite ubwanwa burimo imvi z'umweru ufite irangurumajwi mu ntoki, akaba yarimo arasobanura ibintu by'umupira w'amaboko, umupira w'amaboko wo mu Rwanda, ukinirwa mu Rwanda. Hirya naho hicaye undi mugabo wambaye amadarubindi, wambaye umupira w'umuhondo nawe ariho aramwumva.

Itsinda ry'urubyiruko bihurije hamwe hakaba hari uhagurutse w'umuhungu cyangwa w'umugabo, abafite irangururamajwi mu ntoki bambaye imipira isa, akaba buriya ni nk'igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa inama agiye kubagezaho.

Abantu bishyize hamwe bariho bagira ibyo baganiraho, bafite za mudasobwa imbere yabo ni abagabo benshi bambayemo amadarubindi uretse umwe, bafite amazi y'inyange, bafite za mudasobwa bariho bararebamo buriya ibyo bari kuvuga.

Itsinda ry'abantu, abagabo n'abagore bafite ibyo bari kuganiraho, bari kunywa ibintu bikorerwa mu ruganda rw'Inyange, amazi n'ibindi biryohera. Nk'uko bigaragara bariho barareba imbere gusa n'abandi inyuma bariho barareba inyuma, gusa hano baba bahahurijwe n'ikintu runaka.

Itsinda ry'abantu abagabo' abasore abagore n'inkumi, baje bari mu nama bariho barareba imbere bafite ibyo baje kuganiraho bari kunywa amazi y'inyange barakurikiye.

Abantu bari hamwe bakaba bafite ibyo bari kuganiraho, harimo n'abashinzwe umutekano wacu w'igihugu umusirikare, n'abandi bambaye imyambaro y'ubururu, nabo buriya bafite icyo bashinzwe, imbere hari ameza agiye ateretseho ibintu byabo.

Ihuriro ry'abantu, aho biteretse ameza imbere y'abo hariho n'amazi y'inyange, bafite ibyo baba baje kuganiraho, inama bigaragara ni ibyubaka igihugu kuko ku meza hazengurukijwe ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu abambaye imipira y'icyatsi, abambaye imppira y'ubururu, ingofero z'bururu, noneho n'ubashinzwe umutekano yambaye ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, no mu mpuzankano y'icyatsi, noneho bakaba bari baje nko mu bikorwa bya leta.

Uyu akaba ari umugabo wambaye ikote ryiza ry'umukara, yambaye ishati yanangirije, akaba yambaye amadarubindi, akaba afite akarangururamajwi akaba hari ibyo ari kugeza kubamukurikiye n'ikigo akorera.

Itsinda rya'abantu bafite muri za mudasobwa imbere yabo, bafite bari kuganira ku bintu bijyanye n'ikigo cyitwa rura. Gikorera mu Rwanda, hano rero hakaba hari abagabo, n'abagore, umugabo uhagaze yambaye amadarubindi niwe uri kugenda bereka, ukuntu uri kugenda abasobanurira buriya hari icyo abarusha.

Umugore uriho urageza ijambo ku baturage bamukurikiye, hano inyuma hari ikinyabiziga gitwara abantu, hirya naho hagiye harimo ibindi binyabiziga, abaturage bakaba bamuteze amatwi ngo bumve icyo abagezaho.

Itsinda ry'abantu rero bakaba wangira ngo bari ahantu muri sitade, bakaba bambaye ibintu bisa wagira ngo ni abashinzwe umutekano, bakaba bariho barareba imbere, ariko ni abahungu n'abakobwa gusa biganjemo abakobwa.

Abantu bahuriye hamwe urubyiruko, bambaye imyenda y'umweru, hejuru bambaye imipira y'umweru, bakaba bari kugirwa inama, n'uriya muyobozi w'umugore, uri imbere ufite indangururamajwi, cyangwa afite ibyo ari kubahuguramo.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe bafite ibyo baje kuganiraho, bicaye barebana ni abagabo n'abagore, imbere hari n'abandi wagira ngo ni abayobozi na bo bari kurebana imbere, naho abandi bari kureba bakaba bari kunywa amazi y'inyange.

Itsinda ry'abantu baje mu nama runaka, bakaba bamwe bari kureba imbere abandi, bose ariko bari kureba ahantu hagati hamwe, aha rero bakaba bafite ibyo baje kwigaho urabona ni abantu bakuze, bicaye ahantu heza, kandi baba baje kuganira ibyubaka u Rwanda.

Itsinda ry'urubyiruko rwihurije hamwe bagiye hanze no muri sitade bakira abantu benshi bambaye imipira isa nk'umuhondo, n'indi y'icyatsi baba bafite ibyo baje kureba cyangwa kuganira kugira bateze igihugu cyacu imbere.

Umugore wambaye amadarubindi akaba yiteretse amazi y'inyange, hirya ariko hari n'undi wa ruhu rwera cyangwa umuzungu, aho bagaragara nk'aho bari mu nama, barimo barareba imbere, hari uri kubagezaho ijambo.

Iyi ngiri akaba ari itsinda ryabantu bana hano hari umukobwa ufite umusatsi usa nkaho yatukuje inyuma hakaba abandi umusore wambaye ingofero irya undi musaza wigosheshije hir'aani undi musore ufite ubwanwa bwinshi.

Iki ngiki akaba ari ikigo kizwi nk'Irembo, kikaba gikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ushaka ibyemezo bitandukanye: icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko utuye, icyemezo cy'uko washatse, ibintu byose, ibyemezo byinshi bigiye bitandukanye.

Banki y'Umujyi wa Kigali, gusa ikorera n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, ifite ibara ry'ubururu, ikaba ari banki nziza, urabona icyapa kiri ku rugi kigaragaza ko batanga ubufasha ku bintu bijyanye n'iyo banki y'Umujyi wa Kigali.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Makuza, ahantu hagenewe abantu b'abanyamaguru ho kuruhukira nta binyabiziga biba bihemerewe. Abanyamaguru baba barikota izuba, bashaka kuruhuka, cyangwa gufata umuyaga, nta binyabiziga biba bihemerewe.

Iki ngiki rero akaba ari ikigo cyo mu Rwanda cyitwa RURA cya leta , kigiye gishinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Banabyandikishije ibara ry'ubururu n'umukara, iki ngiki rero kikaba icyicaro cyayo kikaba giherereye i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali,

Uburyo bwifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino kandi mu ntera ndende, hifashishwa bino byuma birebire kugira ngo bikore mu ntera ndende kandi ntihagire icyo byangiza kuko insinga ziri hasi byakangiza byinshij, rero bahisemo gukoresha bino byuma birebire.

Ikigo cy'irembo kikaba gifasha abantu mu bintu bigiye bitandukanye, kubona ibyangombwa bigiye bitandukanye nk'ibyeyemezo: icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko utuye, icyemezo cy'uko washatse, cyangwa icyemezo cy'uko uri ingaragu.

Iki ngiki ni ikigo gikorera mu Rwanda cyitwa Irembo, kikaba gitanga ibintu byinshi bitandukanye. Nka hano bari bari gutanga icyemezo cy'uko umuntu atuye, icyemezo cy'uko umuntu ari umuturarwanda. Hari igihe bagusaba icy'amavuko, icy'uko washatse

Agace gaherereye mu mujyi wa Kigali hazwiho nko kwa Mukuza, aho bo nta binyabiziga biba byemerewe kuhaca, ari ahantu h'abanyamaguru bakeneye kuruhukira bakeneye kugama izuba honyine, hano nta binyabiziga biba byemerewe kuhatambuka.

Aha ngaha akaba ari mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Makuza, hano hakaba haragenewe icyanya cyo kuruhuka. Ukagenda ukicara ugafata amahumbezi n'umuyaga, mu gihe unaniwe mu gihe hari izuba

Abantu bari hamwe b'urubyiruko bafite za mudasobwa imbere yabo, bicaye bafite ibyo bari kurebaho basa nk'abari kuri murandasi, hirya amazi y'Inyange na yo.

Agakoresho gashinzwe gukwirakwiza ibijyanye n'itumanaho, yaba kuri za mudasobwa yabo ku matelefoni, mu buryo bugiye butandukanyeba bagakora mu ntera ndende, ku buryo bagashyiramo inyubako abantu bose bakabasha kuvurana batari kumwe mu buryo bwe bw'ikoranabuhanga.

Itsinda ry'abanyeshuri bafite za mudasobwa imbere yabo, hano hakaba hari mudasobwa zigiye zitandukanye, hari izo kugendana, izo kutagendana zihora ziranga hamwe, uyu nguyu rero akaba ashobora kuba ari umwarimu wabo, bose bambaye udupfukamunwa, udupfukamunwa turinda imyuka mibi n'ibindi.

Ikigo cy'irembo gitanga ubufasha mu bintu bigiye bitandukanye, mu kubona ibyangombwa bigiye bitandukanye, nk'ibyangombwa by'uko wavutse, icyangombwa cy'uko utuye, ibyemezo bigiye bitandukanye by'uko washatse.

Abantu bicaye ku mameza buri bose bari kugenda baganira ibyabo, bari mu matsinda agiye atandukanye, hari abari kwiyakira, harimo n'abagabo, abasore, abagore n'inkumi bose bariho baraganira.

Iyi ngiyi rero akaba ari banki. Banki ikorera kuri uyu mugabane wacu dutuyeho. Ikaba ari banki yitwa Ecobanki igufasha kubitsa, kubikuza byoroshye kwakira amafaranga avuye mu bindi bihugu kuyohereza wibereye n'iwawe rwose.

Abantu bicaye ku mameza atatu, imbere hari uri kubabwira, abandi ni batandatu bafite za mudasobwa imbere yabo buri wese afite mudasobwa mbere ye, rero hari uri kubigisha abaje kugira ngo bagire ibyo biga.

Ikindi ngo ikirere akaba ari ikigo gikora kuri murandasi kikabaye gi gifitanye n'ibyicaro bi bitandukanye mu gihugu kikaba kidufasha ibintu byinshi na cyari kiriho kiramufasha kubona icyangombwa cy'uko atuye icyangombwa cy'uko ari umunyagihugu.

Igiti cyangwa ipoto, rikozwe mu byuma, cyifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, hirya no hino mu baturage, kugira ngo abagereho neza, abaturage bose bacane, kuko niho turi kugana kandi u Rwanda rushishikariza abantu bose gutanga amashanyarazi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga, hepfo hari ahandi hagenderamo abanyamaguru ku ruhande rw'iburyo kandi hepfo yaho kuri urwo ruhande rw'iburyo hari amatara yo ku muhanda, ari ku bipoto birebire, inyuma kandi na ho hari andi akwirakwiza amashanyarazi.

Uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, hirya no hino aho bagiye bari hose, ubu rero ni uburyo bwo kugenda bayungurura amashanyarazi kugira ngo atagira umuvuduko mwinshi akaba yagira ibyo yangiza cyangwa yaba abafite umuvuduko muke bakawongera.

Uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu, hifashishwa bino byuma birebire biri hejuru y'abaturage n'amazu y'abaturage, kugira ngo batazagira ibyo bangiza noneho n'abandi bagende babona amashanyarazi uko bikwiriye.

Ibyuma byifashishwa mu gukwirakwiza cyangwa gusakaza amashanyarazi mu baturage, bikaba biyungurura amashanyarazi kugirango abaturage amashanyarazi atabageraho ari menshi akagira ibyo yangiza, cyangwa yaba ari na make ibyuma bikafasha kuyongera.

Uburyo bwo gusakaza cyangwa gukwirakwiza amashanyarazi, hirya no hino mu Rwanda, aba ngaba rero ni abagabo bariho barasana cyangwa bariho barareba ikibazo cyaba kiri muri izo nsinga, cyangwa abaho barazishyiraho kugira ngo abaturage babone amashanyarazi.

Uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi cyangwa kugeza amashanyarazi ku baturage b'u Rwanda, bikubiye bifashisha rero bino ibyuma birebire bigiye bisobekeranye bikagenda biri hejuru kugira ngo hatagira igikorwaremezo cy'umuturage cyangirika.

Umuhanda nyabagendwa urimo abanyamaguru n'ibinyabiziga, hari uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage hejuru kuri ibyo byuma, hakurya hari ikigo cy'ubucuruzi cyitwa simba.

Uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, hirya no hino mu gihugu cyacu hifashishwa ibi byuma cyangwa ibi biti birebire, biri gusa n'ibyuma birebire, bakabasha gukwirakwiza amashanyarazi mu ngo zose z'igihugu cy'u Rwanda.

Uburyo bukoreshwa n'igihugu cyacu bwo gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, hifashishwa ibyuma birebire, bagafata insinga bakagenda bazinyuzamo ku buryo bitabangamira abaturage kandi abaturage bakabona umurimo.

Iki ngiki akaba ari ipoto cyangwa igiti gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino. Aha ngaha nk'urugo rumwe rufite amashanyarazi bashaka kurahurira ahandi, barabyifashisha, bagashinga igiti, bagashyiraho insinga, bagashyiraho amashanyarazi, bakagera ku rundi rugo.

Uburyo bwo gusakaza amashanyarazi cyangwa, cangwa gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, bukoreshwa cyane cyane na bino byuma birebire bigezweho, kugira hatazabamo impanuka hakagira ikibazo inzu igashya.

Iki ngiki rero akaba ari ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN, kikaba gikorera mu Rwanda n'ahandi hose ku isi hagiye hatandukanye, kikaba ari ikigo kiza kidufasha kubitsa, kubikuza amafaranga, guhamagara, guhamagarwa, kohererezanya ubutumwa.

Aha ngaha hakaba hari ipoto cyangwa umunara ushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino, urabona hagiye hariho insinga z'amashanyarazi, iri poto rero rikaba rijyana amashanyarazi mu ntera nini cyane. Urabona kirakomeye, ibyuma gusa.

Uburyo bwifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu baturage hano bukoresha ibyuma birebire. Ibyuma biri hasi byashoboraga kwangiza ibikorwa remezo, ari yo mpamvu bishyirwa hejuru. Ibyo bigatuma mu gihe habaye ikibazo, bitangiza ibikorwaremezo by’abaturage.

Ibi ngibi rero akaba ari ibitaro bikuru bya Kabgayi, i Kabgayi ni mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ibi ibitaro rero akaba ari binini ni byiza bikungahaye cyane mu buvuzi bw'amaso abantu barwaye amaso ni ho benshi bajya.

Aha ngaha akaba ari ahantu hasakaye akaba ari ahantu ho gucamo h'abanyamaguru cyangwa ibindi binyabiziga ariko by'abantu bafite ubumuga hano nta binyabiziga bitwara abana bibabyemerewe keretse nk'ikije gutwara indembe.

Umusore ari kumwe n'umugabo w'umuzungu cyangwa ari umwera akaba afite ibyo ari kumubwira imbere yabo hari mudasobwa no hirya hari indi mudasobwa uko bigaragara wagira ngo ni abaganga bakora mu bintu by'ubuvuzi.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako nziza ubona ndende muri izi nyubako zigezweho ikaba yubakitse neza cyane, aha ngaha rero hakaba hashobora kuba habamo abantu, abantu bafashijwe na leta cyangwa n'abandi bagiye batandukanye.

Uyu nguyu, akaba ari umuntu mu kagare k'abantu barwaye cyangwa abafite ubumuga, akenshi na kenshi, hano rero uko bigaragara ni ku kigo nderabuzima ahantu hari kandagira ukarabe, uragenda nyine ugukaraba, kugira ngo wirinde indwara.

Mu bitaro ni ahantu harwanirira abantu benshi kandi baba bakeneye kwitabwaho, hano rero ni ahantu urabona ni heza kwa muganga cyangwa ibigo nderabuzima, abaganga bakwitaho umeze neza ufite umwuka mwiza uri ahantu hakeye.

Abagabo bicaye ku murongo, hari ibyaha bashinjwa, bambaye impuzankano isa y'abantu bajyanywe mu nkiko, bakaba bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde indwara, hanyuma iyo ba bambaye impuzankano zisa gutya baba bakiri mu manza.

umugabo akaba akora mu nkiko nkuko n'imyambaro yambaye ibigaragaza umugabo wirabura usa neza akaba ari umucamanza wo mu nkiko, ubucamanza rero ziburanisha abantu bakagukatira icyaha bitewe n'amakosa uba wakoze.

Umugabo uhagaze hagati akaba ari kuburanishwa, bitewe n'imyenda yambaye cyangwa impimzankano yambaye, akaba yarakoze ibyaha, bakaba bari kumuburanishiriza mu ruhame, aho icyaha kiba cyarabereye bakamukatira bitewe n'icyaha yakoze n'amategeko uko abiteganya.

Abacamanza bakora mu nkiko, cyangwa barahiza, bafite ibendera mu ntoki, hano ufata ibendera iyogiye kurahira, bakabwira amagambo asubiramo, bakajya bakubwira usubiramo ukarahira, ko utazahemukira icyo kintu urikurarahira.

Abangaba bakaba ari itsinda ry'abantu b'ingororwa abangaba iyo bambaye izina mu zambararo zererutse gutya baba bakiburanishwa baba bakiri mu inkiko, iyo bamaze gukatirwa baburanye hari indi mpuzankano bahita bambara.

Muri gereza ya nyarugenge, cyangwa igororo rya nyarugenge, aho bashyiragamo, kuko ntago bagihari, bashyiragamo abantu bakoze ibyaha, ngo babagorore, babagire inama, bababwire ko ibyo bakoze atari byo, bazasubire hanze bari ikosoye.

Umugore wambaye ikanzu, cyangwa umwambaro w'abacamanza bakora mu nkiko, uyu nguyu akaba akora mu rukiko, akaba habaye nk'ahantu bari kuburanisha umuntu, uyu niwe ni ufata umufatira umwanzuro, bitewe n'itegeko baba buhiriza amategeko.

Umugabo wambaye imyenda y'umutuku n'umukara akaba ashinzwe ibintu bijyanye n'amategeko mu rukiko abazwi nk'abacamanza, aho mu gihe umuntu yakoze ibyaha araza bakamuburanisha bakareba uko itegeko ribiteganya bakamukatira.

Umugabo uhagaze mu ruhame imbere y'abantu, akaba arimo araburanishwa, yambaye impuzankano y'abagororwa cyangwa y'imfungwa zitarakatirwa n'inkiko bitewe n'ibyo aba akurikiranwaho, hano rero akaba ari byo bitaga gacaca cyangwa ibyo bita kuburanishirizwa mu ruhame.

Aba ngaba n'abagororwa abagororwa bafungiye ahantu ariko abambaye zino mpuzankano zerurutse baba batarakatirwa n'inkiko bitewe n'ibyaha bashinjwa, iyo bamaze gukatirwa n'inkiko hari izindi mpuzankano bambara ubu ngubu bano baba bakiburanishwa.

Itsinda ry'abantu bariho baragira ibyo baganira, hari umugabo uhagaze wagira ngo ni imfungwa cyangwa umugororwa, gusa atarakatirwa n'inkiko kubera impuzankankano aba yambaye, abari bicaye rero ashobora kuba ari muri gacaca ashobora kuba ari kumuburanisha.

Itsinda ry'abantu benshi, harimo abagabo, n'abagore, imbere hari ibendera ryacu ry'igihugu cy'u Rwanda, ahangaha rero hakaba habera kurahira, urabona ano mabendera uko ari rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu, arindwi hano rero hahagarara abantu barindwi bakarifata, bakarahira, bitewe n'icyo bari kurahirira n'ibintu baba bababwira ngo basubiremo.

Uyu nguyu rero bakaba ari umuntu bari bafunze impande n'impande hagiye hari abashinzwe umutekano yambaye agapfukamunwa n'abambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde iyi myuka mibi cyangwa kwanduzanya n'indwara kuko hari indwara zikwirakwira mu myuka.

Umugabo wambaye ikote ryiza, ishati, karuvti nziza, akaba ashobora kuba ari umukozi wa leta w'iki gihugu, ntabwo byanditseho, akaba ari umusirimu nk'uko bigaragara, yiyogoshesheje neza.

Umugabo wambaye imyenda cyangwa impuzankano y'abacamanza, aba nagaba rero bakaba baca ahantu habaye imanza mu nkiko cyangwa ahantu mu ruhame, hari umuntu wakoze ibyaha bakamucira urumukwiye.

Umugabo wambaye imyenda y'umutuku n'umweru wanigirije, wambaye n'amadarubindi akaba akora mu nkiko, akaba ari bo bita abacamanza, aha ngaha iyo umuntu ari kuregwa ibyaha runaka, bareba amategeko uko abiteganya bakamukatira.

Abagororwa baba bakiburanishwa n'inkiko, baba batarakatirwa bitewe n'ibyaha bagiye bakora, baba bambaye impuzankano zerurutse, abakatiwe bo baba bambaye izindi mpuzankano zidasa.

Imfungwa cyangwa umugororwa, wambaye agapfukamunwa, bakaba bari kuburanishwa n'amategeko bitewe n'ibyaha bakurikiranwaho, inyuma hakaba hari ushinzwe umutekano, areba ko atatoroka cyangwa atakora ibindi byaha.

Umugabo wambaye amadarubindi yambaye umwenda cyangwa umwambaro w'abacamanza bo mu nkiko, yambaye n'ingofero uyu nguyu rero akaba aca imanza bitewe n'amategeko kuko ntibaba barize.

Aba banyeshuri bari bariho barigishwa uburyo bakwitabara igihe habaye inkongi y'umuriro, hari ushinzwe ariho arabereka, bazimya gutya, abaha ibikoresho, acana umuriro aramubwira ngo ngaho zimya turebe.

Kizimyamwoto, ni ibintu byifashishwa mu kuzimya umuriro, ahantu habaye inkongi y'umuriro, hano buri nzu igomba kuba ifite ikizimyamwoto yayo, buri nyubako, kuko nta hantu hataba inkongi y'umuriro, hano rero iyo habaye inkongi y'umuriro, hano haba hari igipira, uraza ugacomekamo kuri iki kintu cya kizimyamwoto, ukabasha kuzimya n'ahantu hari intera ndende.

Uyu nguyu rero ni ushinzwe umutekano w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umukobwa ndabona yambaye amahaerana; umukobwa ushinzwe umutekano mu Rwanda tuba hamwe haje uburinganire umuntu wese akora akazi kose.

Umugabo ushinzwe umutekano muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa abo bita abapolisi hano yambaye icyo yambaye kigaragaza ko akora mu muhanda mu mutekano wo mu muhanda akaba ahagaritse ikinyabiziga ari ku gisaba ibyangombwa n'ibindi bintu bijyanye no gutwara mu muhanda.

Igikoresho cyifashishwa ahantu habaye inkongi y'umuriro, kikaba cyazimya iyo habaye inkongi y'umuriro, ukanda kaya kantu k'umutuku kari hejuru kasamye, ukagafungura uno mupira ukawutunga aho hari kwaka ku buryo wahazimya.

Umuntu ushinzwe umutekano cyangwa umupolisi wo mu gihugu cy'u Rwanda, baba bashinzwe umutekano cyane cyane mu muhanda hano bakaba bamanika akaboko bisobanuye hagarara, agahita yereka ikinkinyabiziga aho kigomba guhagarara, akagenda akamubaza ibyangombwa n'ibindi bigiye bitandukanye byo mu muhanda.

Ikinyabiziga kigendwamo n'abantu bashinzwe umutekano muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho bagenda bakurikirana ibigenda n'ibitagenda neza mu muhanda ndetse no mu baturage, ubwo iyo basanzwe uri kubusanywa n'amategeko baragufata.

Umuntu ushinzwe umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bazwi nk' abapolisi bakora mu muhandakaba, aha ngaha akabi ari we ucunga umutekano cyane cyane mu muhanda, aho baba bareba ibigenda, abatwara ibinyabiziga niba bafite ibyangombwa.

Ibitaro cyangwa ikigo nderabuzima cya Kacyiru, ni ibya polisi ya Kacyiru, giherereye Kacyiru birumvikana, hano rero ikigo nderazima kikaba gitanga ubufasha ku bantu barwaye, ku bantu bashaka kwivuza bose.

Igikoresho cyifashishwa ahantu habaye inkongi y'umuriro, kikaba gifasha abantu guhita bazimya umuriro utarakwirakwira ahantu henshi hagiye hatandukanye, aho rero ufata hariya hejuru ugakanda hagasohokamo ibintu by'umweru ukazimya umuriro.

Ibikoresho byifashishwa ahantu habaye inkongi y'umuriro kugira ngo bahazimye, uyu mupira w'umutuku ni wo ufasha gukora mu ntera ndende mu gihe barimo barazimya ahantu habaye umuriro, iki cyuma cyo hasi cyo ni cyo kiba kivamo ibintu by'umweru bizimya umuriro.

Kizimyamwoto ni ibintu byifashishwa mu kuzimya umuriro ahantu habayeye inkongi y'umuriro, aba rero bakaba bazana ibikoresho bikomeye biremereye ahantu habaye inkongi y'umuriro ikomeye bakabasha kuyizimya itarakwirakwira hirya no hino.

Abantu bashinzwe ibijyanye n'inkongi y'umuriro barazimya, ahantu habaye inkongi y'umuriro, baba babyambariye bafite ibinyabiziga bikomeye bibishinzwe, ahantu rero habaye inkongi y'umuriro barabitabaza, bafite nimero cyangwa urubuga wababonaho bagahita baza bakagutabara.

Iki ngiki rero akaba ari ikinyabiziga cy'abantu, cy'abantu bashinzwe umutekano wacu muri iki gihugu cy'u rwanda bakaba bashinzwe umutekano urabona n'imodoka byanditseho bakaba rero abashinzwe umutekano baba bakumira ibyaha cyane cyane byiganjemo ibyo mu muhanda...

Abantu bahuriye hamwe baje kumva ibyo uno mugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, bakaba rero basa nk'abamuzengurutse abari imbere, hari abari mu mpande bakaba baje kumva ibyo abagezaho.

Umugabo wambaye amadarubindi akaba afite indangururamajwi imbere ye, akaba ari kuvuga buriya hari inama barimo cyangwa abantu ari kubwira benshi, imbere kandi hakaba hari amazi y'inyange akorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda nyakubawa KAGAME Paul akaba yari ari kumwe n'umugore we, KAGAME yari agiye kurahira ko yari yatsinze amatora y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, umwaka ushize, ahongaho rero hari abantu benshi baje kwitabira iryo rahira rye.

Aho nyakubahwa wacu umukuru w'igihugu yari ari kwiyamamaza, mu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane umwaka ushize, ahatana kuba umukuru w'igihugu, bari kwiyamamaza we n'ishyaka rye rya FPR inkotanyi, aho kandi bakaba baratsinze, hano rero yari ari kwiyamamaza, abaturage baje kumushyigikira.

Mu mwaka w'ibihumbi bya na makumyabiri na kane ubwo mu Rwanda, hari hari amatora y'umukuru w'igihugu, hano nyakubahwa umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame na we yari ari kwiyamamaza kugira ngo yongere ayobore igihugu we n'ishyaka rya FPR Inkotanyi.

Umugabo wirabura ufite umusatsi mwinshi ubyibushye, akaba yari umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda, guhera muri za mirongo irindwi kugera muri mirongo icyenda na kane, aho yapfiriye mu mpanuka y'indege i Kanombe.

Uyu mugore wambaye amadarubindi ufite imisatsi w'umukara uri imbere, akaba ari umugore w'umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame, hirya hari undi mugabo wambaye ikote ry'umukara, n'ishati y'umweru, buriya bakaba bari mu nama bagirango bateze igihugu cyacu imbere.

Umugabo wambaye neza, wiyogoshesheje, yambaye ikote ryiza, ishati y'umweru nziza, afite yanigirije, afite uturangururamajwi, ashobora kuba ari mu nama, yaje mu nama, ari kunywa amazi y'inyange.

Umugabo wambaye amadarubindi, wambaye ikote ryiza cyane yangirije yambaye karuvati y'umweru, akaba ashobora kuba yara ari ahantu mu nama, cyangwa hari abandi bantu yari ari kugezaho imbwirwaruhame ye bamwumve.

Umugabo wambaye ikote ryiza wirabura ishati y'umweru yinanigirije, yambaye idarapo ry'u Rwanda, ari kunywa amazi y'inyange, inyuma naho hari ikirangantego cy'u Rwanda, aha ngaha afite abo ari kugira inama cyangwa ni we yakoresheje inama.

Umukuru w'igihugu cyacu wiyamamazaga umwaka ushize mu matora yo kuyobora u Rwanda, akaba yaranatsinze, aha ngaha rero nawe yari agiye gutora bitewe na none, kwitora cyangwa gutora undi bitewe n'ibyo agenderaho.

Umugore wambaye amadarubindi afite igitabo mu ntoki, afite n'ikaramu, afite n'akarangururamajwi, afite buririya hari ibyo ariho arageza ku bamukurikiye byubaka u Rwanda kandi biruteza imbere na we yiteze imbere.

Abagabo babiri bariho barandika, bafite amakaramu n'impapuro, inyuma hari ibendera, n' imbere hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwandarundi, ku ruhande rw'ibumoso hari akandi kabendera, imbere yabo hari amazi n'uturangurura amajwi.

Abangabo akaba ari abagabo babiri bafite icyo bashinzwe muri leta yacu y'u Rwanda ahahaguyu ku ruhande rw'ibumoso akaba ari minisitire w'intebe, uyu nguyundi wambaye indi mpuzankano akaba ari witwa Mubaraka Muganga akaba ari umukuru w'ingabo z'igisirikare cy'u Rwanda.

Umukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ari kumwe n'umukuru w'intebe ushinzwe ibintu bya politiki by'igihugu, bari bari kugenda bafite aho bari bagiye mu nama runaka ba bagira ngo bubake igihugu cyacu neza.

Abantu batonze umurongo wagira ngo bari mu matora, bikaba byashobokaga ko hari mu mwaka ushize, bibiri na makumya na kane bari bagiye gutora umukuru w'igihugu, urabibona bagiye gutora babyishimiye cyane.

Ubwo bari bari kwamamaza nyakubahwa umukuru w'igihugu Paul KAGAME ubu ngubu, yari kwiyamamaza umwaka ushize n'ishyaka rye rya FPR inkotanyi, hano hari hateraniye abantu benshi baje kumushyigikira bamubwira ngo tuzadutora.

Uyu nguyu akaba yari arimo yamamariza kuyobora nk'ikintu runaka, waba ari kwamamazwa ngo atorwe we n'ishyaka rye nk'uko bigaragara biri mu kantu k'icyatsi n'ubururu n'umutuku bigenda bizamuka.

Abagabo n'abagore bari mu nama aho bamwe bambaye amadarubindi, hano hari umugore hakaba n'umugabo bafite mudasobwa, imbere yabo n'uturangururamajwi kari kumwe n'amazi y'inyange.

Itsinda ry'abantu, ryari ryahuriyemo na nyakubahwa mukuru wacu w'igihugu, n'umuyobozi ushinzwe, bita minisitiri w'intebe, nawe bari bari kumwe, bari mu nama, bari kumwe bari kunywa amazi y'inyange ikorerwa mu Rwanda.

Uwari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda guhera muri za mirongo irindwi na gatatu kugeza kuri mirongo icyenda na kane, aho yaje gupfira mu mpanuka y'indege aho yari avuye mu gihugu cy'abaturanyi cyitwa Tanzania. Akaba yaritwaga Habyarimana Juvenali.

Umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo nyakubahwa umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame yari kwiyamamaza, icyo gihe n'ishyaka rye ryitwa FPR Inkotanyi, abaturage urabo na bo bari bari kumwamamaza kuko bashakaga kumutora.

Ikinyabiziga gitwara abantu benshi kikaba gikorera mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zaho aho gifasha abantu koroshya ibintu bijyanye n'ingendo ku mafaranga make kandi mu gihe gitoya.

Ikinyabiziga gitwara ibintu bigiye biremereye kikaba gifite ibiziga bitatu, iki ngiki kikaba gikoreshwa kwikorera ibintu biremere harimo imifuka y'imiceri, imifuka ya sima, kwimura abantu.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, harimo amakara, harimo imifuka y'imiceri, imifuka y'akawunga, imifuka y'ibishyimbo, kwimura abantu, kwikorera amabati, ni ibintu byinshi biremereye.

Ikinyabiziga gikorera mu mujyi wa kigali no mu nkengero kegereye umujyi wa kigali kigatwara abantu benshi bavamo kuri 50 bakagera kuri 70 abagenda bicaye bagenda bahagazeba byoroshya ingendo.

Ikinyabiziga gitwara ibintu biremereye cy'amapine menshi kikaba gishobora gutwara nk'imifuka y'imiceri imifuka y'amakara n'ibindi biribwa bigiye biremereye ko hari undi mugore ucuruza ibisheke hakaba hari n'ikindi kinyabiziga cyitwa moto kiri kumanuka.

Ikinyabiziga gishinzwe kwikorera ibiremereye nk'imifuka y'ibintu bijya bitandukanye y'imiceri, iya kawunga, amakara, kwimura abantu cyane n'ibindi bicuruzwa ibitoki hirya hari icyapa cyerekana ko ahantu hemerewe guhagararira ibinyabiziga.

Ahantu higishirizwa gutwara ibinyabiziga, hari ibinyabiziga by'umutuku n'utundi two mu muhanda, utu nitworero bagenda bakwigisha bigiriza abantu gutwara imodoka, bakaba rero bakaba birinda abantu ko bajya mu muhanda batazi imodoka ikindi kikaba ari ikibi kibafasha kwiga imodoka neza.

Ikinyabiziga kikorera ibintu biremereye kiri mu muhanda hepfo hari ikindi kinyabiziga n nubwo kitagaragara neza ariko gitwara abantu abantu benshi hano hari umunyamaguru muruhande rw'ibumoso akaba rikwiye kumanuka kwigendera ahantu hanyaho.

Ikinyabiziga cy'amapine atatu cyifashishwa mu gutwara ibintu biremereye nk'imiceri, imifuka y'imiceri, imifuka ya sima, imifuka y'amakara, imifuka y'ibindi biribwa, ibishyimbo n'ibintu byinshi biremereye.

Ibinyabiziga by'amapine atatu cyangwa ibiziga bitatu bikaba byikorera ibintu biremereye nk'imifuka y'imiceri kwimura abantu n'ibindi hano rero bikaba ari ibinyabiziga byinshi uko bigaragara birindiriye abantu cyangwa bikodeshwa.

Ikinyabiziga gikorera mu muhanda kikaba gitwara abagenzi aho baba bagiye hose, ikinyabiziga rero gifite ibiziga bibiri cyangwa amapine abiri, kikaba cyifashishwa cyane cyane iyo hari akavuyo igihe nk'imvura igiye kugwa kuko kirihuta ntago gitinda mu nzira.

Ikinyabiziga kirimo kirazamuka gishinzwe kwikorera ibintu bigiye biremereye; imifuka y'imiceri, ifuka amakara, n'ibindi bintu byose byari biremereye umuntu atakwikorera ku mutwe. Ibi ngibi rero byifashishwa mu koroshya ingendo n'ibindi kuko kirihuta urumva umuntu akikoreye ntabwo yazagerayo, kandi iki ngiki kikorera ibintu biremereye kandi kikihuta.

Ikinyabiziga gitwaye inka, inka nyinshi, ibinyabiziga rero byifashishwa mu kwikorera ibintu bigiye biremereye, umuntu atashyira ku mutwe we, inka na zo ni ibintu umuntu atapfa kwikorera, hano rero bafata inka zaba icumi, z'aba zingahe, bagashyira muri iki kinyabiziga kikabitwara kandi neza.

Gare yo mu mujyi wa Kigali Nyarugenge ahazwi nka Downtown, aha ngaha rero hakaba hahurira abantu benshi kandi hari ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwiza kandi bwihuse, hano rero iyingiyi akaba ari imodoka igedwamo n'abantu benshi kandi bakagera iyo bajya vuba.

Ikinyabiziga gitwara abantu benshi kikaba cyambukiranya intara n'uturere aho kiba kibajyanye ahantu hirya hatandukanye, kirihuta kandi cyoroshye ingendo muri make.

Ikinyabiziga gishinzwe cyangwa gitwara ibintu biremereye, bihimo n'imifuka y'imiceri, imifuka y'amakara, imifuka ya kabunga n'ibindi bintu, kwimura abantu, n'ibindi bintu bigiye biremereye.

Ikinyabiziga gitwara amazi, kikaka gifite ikintu cy'ikigega inyuma, aho kikorera amazi menshi kikagenda kiyatangaye mu bigo bigiye ari binini cyangwa kigenda kiyajyana mu baturage benshi.

Ibinyabiziga bikora mu Mujyi wa Kigali honyine, ibi binyabiziga bikaba bitwara abantu benshi mu kuva kuri mirongo itanu kugeza kuri mirongo irindwi cyangwa barenga, bagiye ahantu hagiye hatandukanye. ikinyabiziga rero bikaba bikora mu Mujyi wa Kigali gusa.

Ikinyabiziga cyitwa igare cy'amapine abiri cyangwa k'ibiziga bibiri cyifashishwa mu gutwara abagenzi n'imizigo itaremereye cyane, hepfo hari ikinyabiziga cy'amapine atatu cy'ibiziga cyangwa bitatu gitwara ibintu biremereye; imifuka y'imiceri n'ibindi.

Ikinyabiziga cyikorera ibintu biremereye, harimo kikorera imifuka y'imiceri, imifuka ya kawunga, imifuka y'ibishyimbo, amabati n'ibindi bikoresho, ibikoresho by'ubwubatsi, kwimura abantu.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye gifite ibati ry'ubururu, kenshe kikaba kikorera imifuka ya sima imifuka y'amakara, imifuka y'umuceri, imifuka y'amakara, kwimura abantu gutwara amabati n'ibindi bintu bigiye biremereye.

Iki nikinyabiziga cy'ikigo cyitwa selecta kikaba gitwara abantu benshi bambukiranya intara cyangwa uturere bagiye ahantu kure hakaba hari ikindi kinyabiziga gitwara abantu.

Ikinyabiziga gitwara ibintu biremereye cyane hakaba hano bakikoreje amotoni n'amatoni, ibiro byinshi cyane, imifuka ya sima, imifuka y'imiceri, kwikorera amabati, kwimura abantu.

Umugabo ufite igare akaba afiteho n'imizigo, imifuka, igare rikaba yifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye nk'imifuka inyuma kandi hari ikinkinyabiziga kiririmo ibara ryojya gu gusa umuhondo kikaba gitwara abagenzi cg abantu benshi.

Ibinyabiziga bigiye bitandukanye by'amapine abiri cyangwa ibiziga bibiri bitwara abagenzi inyuma hari n'ikinyabiziga kinini gitwara ibintu biremereye harimo nk'imifuka ya sima, imifuka y'amakara n'ibindi.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, harimo amabuye, imicanga n'ibindi bintu bigiye bipima amatoni n'amatoni, ibintu byinshi bigiye biremereye, kwimura abant, imifuka y'amakara, ibiti.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, harimo n'imifuka y'imiceri, imifuka ya sima, kwimura abantu, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, utubati, n'ibindi amabati yo gusakara.

Ikinyabiziga gitwara ibintu biremereye harimo ama matola cyangwa bikoreramo imifuka y'imiceri ,amakara, kawunga, ibishyimbo byose bigiye biremereye umuntu atashyira ku mutwe cyangwa nk'amagare atabasha kwikorera.

Ikinyabiziga cy'igare cyifashishwa kwikorera ibintu bigiye bitandukanye, hano ashobora kuba yikoreye udufuka tw'umuceri cyangwa twa kawunga, cyangwa n'ibindi biribwa, kuko urabona hariho nk'udufuka nka dutanu cyangwa dutandatu, kandi aba atujyanye mu ntera ndende.

Ikinyabiziga gitwara abantu, abantu benshi bagera kuri makumyabiri n'umunani cyangwa mirongo itatu, hepfo hakaba hari ikindi kinyabiziga cyitwa igare nacyo gitwara abagenzi gusa umugenzi umwe hano akaba ari agace kahariwe abanyamaguru.

Ibinyabiziga bishinzwe gutwara abantu benshi, bikababivana ahantu hamwe bibajyana ahandi, byambukiranya uturere, bambukiranya intara, kandi mu gihe gito kuko byarakemutse kugenda n'amaguru, ntabwo wazagerayo niyo mpamvu hari ibinyabiziga bitwara abantu.

Ikinyabiziga gitwara ibintu biremereye birimo nk'imifuka ya sima n'ibindi bigiye bitandukanye, imifuka y'imiceri, imifuka y'ibishyimbo, imifuka ya kawunga n'ibindi bintu bigiye biremereye umuntu atakikorera ku mutwe we cyangwa ibindi binyabiziga bito bitakikorera.

Ahantu hahariwe gukorerwa imyitozo ngororamubiri. Hano nta kinyabiziga kihaca, ni ahantu h'abanyamaguru bahaca na bo bariho barangorora umubiri, biruka bari no mu yindi myitozo.

Iki ngiki rero akaba ari ikibuga ikibuga gishobora kikinirwamo umupira w'amaguru cyangwa hakaba hakorerwa n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye, hamwe n'ikibuga kinini cyiza gisa neza, cyitaweho, gihabwa inzira z'amazi.

Icyapa cyo mu muhanda cyifashishwa cyane cyane n'ibinyabiziga, aho kiba cyanditseho makumyabiri, cyerekana ko ugomba kugendera ku muvuduko wa makumyabiri, aho wenda umuhanda uba urimo amakoni menshi cyangwa warapfuye.

Icyapa cyifashishwa mu muhanda cyerekana nyine gutambika hirya, ushobora kuba kitari no mu muhanda kiri nk'ahantu mu mazu, bakwereka nyine aho ugomba guca aho ari ho inzira nyabagendwa naho utemerewe guca aho ari ho.

Ibyapa byo mu muhanda byerekana ahantu ugeze, umuhanda uwo ari wo na nimero yaho, ku buryo utapfa kuyobagurika bitewe na bino byapa, biba byanditseho umuhanda wa gatatu, umuhanda wa mirongo itatu.

Icyapa cyerekana ko winjiye mu karere ka bugesera, mu ntara y'iburarasirazuba, ni ahantu heza hagezwe muri iki gihe kuko harahendundutse kandi haragendetse, ariko ni ahantu hashyuha, ariko ni ahantu heza harambuye nta misozi.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda cyangwa cyifashishwa mu muhanda, aho kiba cyerekana gukomeza, ko hari inzira ikomeza, hakaba hari n'indi ikatamo mu ruhande rw'iburyo, kimwe rero gikunda kwifashishwa cyane cyane ku binyabiziga.

Icyapa cyifashishwa mu muhanda, kereka ibinyabiziga cyangwa n'umunyamaguru ko aho ahantu hazenguruka ntago uhanga ngo ni inzira ngo uhite ukomeza ngo ugende nimba wihuta, ugomba kugabanya umuvuduko kuko birapanze bigusabe kuzenguruka icyo kizeru.

Ikingiki akaba ari icyapa cyifashishwa mu muhanda aho kiba cyerekana ngo hano nta kinyabiziga cyemerewe kuhahagarara mbese ubwo umugenzi ntabwo yajyaho ngo ahagarare ngo ategereze ngo aramanika ukuboko ikinyabiziga gihahagare ngo kimutware oya iki cyapa kiba cyerekana ko bitemewe.

Iki icyapa cyo mu muhanda cyifashishwa cyane cyane ib'ibinyabiziga n'abanyamaguru bashaka gutega ibyo binyabiziga, iki ngiki cyerekana ko ahantu hemerewe guhagarara imodoka, inyuguti ya p yanditseho isobanuye parikingi, aha ngaha ikinyabiziga kiraza kikahahagarara ntakibazo.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda cyerekana ko ushatse wakomeza ariko hari n'ahakata iki ngiki rero gikunze gukoreshwa cyereka ibinyabiziga uburyo bwo kugenda bakubwira ngo komeza cyangwa umanuke kuruhande rwohepfo ku ruhande rw'iburyo.

Icyapa rero cyerekana aho inzira bayobora abantu, barerekana aho iyo ukomeje ujya ku Kanyaru cyangwa i Huye, iyo ukase mu ruhande rw'ibumoso ujya aho bita Kibugabuga n'aho bita Nyamiyaga.

Ikingiki akaba ari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, kikaba harimo utuziga tw'umukara, twerekana ko aho imbere kuri uwo muhanda, hari ahantu hazenguruka, bitewe naho ushaka kujya, bishobora kugusaba kubanza kuzenguruka, kino cyapa rero kigufasha mu kubimenya.

Icyapa cyifashishwa mu muhanda, cyane cyane cyifashishwa n'ibinyabiziga cyerekana gukomeza no kugaruka iburyo n'ibumoso, iki ngiki rero kikaba kifashishwa cyane cyane n'ibibinyabiziga kugira ngo kibagaragire.

Icyapa cyifashisha uwo muhanda cyerekana kuzamuka no kumanuka, hano hifashishwa cyane cyane ibinyabiziga ariko n'abanyamaguru barabyifashisha bakwereka ko wemerewe kuzamuka ukanamanuka ntakibazo. Hari n'ibyapa biba byerekana ko utemerewe kuzamura cyangwa kumanuka.

Inyubako nziza cyane, iyingiyi akaba ari hoteri iherereye mu mujyi wa Kigali yitwa Great hoteli, hano rero aba ari amacumbi, ahantu wagenda ugakodesha nk'ijoro rimwe, cyangwa amajoro abiri, ukabasha kuhaba, uri kumwe n'undi muntu, ntago hano haba abantu benshi, aba ari abantu bake nyine mu cyumba.

Inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, aho hari izubatse bigezweho, n'amanegeka, ayo bita manegeka asabwa kuvugururwa kuko ntabwo bikigezweho n'andi agiye yubatse neza, arabona ni ahantu hagari heza.

Akaba ari icyapa cy'imikino y'amahirwe izwi nka forute beti, rero akaba ari imikino y'amahirwe ikinwa n'abantu bagiye batandukanya, aho baba bashetera amakipe y'umupira w'amaguru, uw'amaboko...

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana nimero y'umuhanda uwo ariwo, hano hakaba handitseho kaka cumi na kane umuhanda. Ubwo ni umuhanda wa cumi na kane, bino bifasha umuntu uri kuwugendamo utahazi. Cyangwa uri kurangira umuntu utahazi kugirango abashe kuhamenya.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako, inyubako uko bigaragara ntago ari iyo guturamo, ni inyubako y'ubucuruzi, hano rero izi nyubako ikintu zifasha, zifasha nimba ari ubutaka buto bakagereka amazu, bakubaka amazu ageretse, hakajyamo ibintu byinshi icyarimwe kandi ku butaka buto.

Uyu nguyu rero akaba ari umuhanda, hakaba harimo ibinyabiziga, ibinyabiziga bigiye bitandukanye, usanga nta bagenzi bariho uretse icyo hepfo, uko bigaragara hari igihe hari ibyapa mu muhanda, ibinyabiziga bitwara umuntu umwe hari ibyikorera imizigo.

Umuhanda ugenderwamo ibinyabiziga, ugenderwamo n'abanyamaguru, ahari mu ibara ry'umweru, minini, itambitse hariya hambukirwa abanyamaguru, hano rero iyo ikinyabiziga kihageze umunyamaguru agiye gucaho, ikinyabiziga kirahagarara, umunyamaguru agatambuka.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo ibinyabiziga, ugendwamo n'abanyamaguru, abanyamaguru rero bakaba bambukira muri hariya hantu hari imirongo y'umweruru minini itambitse, iyo ikinyabiziga kihageze kirabanza kigahagarara umunyamaguru akabanza agatambuka.

Ubu uyu nguyu akaba ari umuhanda nyabagendwa, uyu nguyu ukaba ari igice cy'abanyamaguru, iki ngiki kirimo imirongo y'umweru minini. Hejuru hakaba ari ibyapa byerekana ibinyabiziga bigomba kugenda, umutuku n'uguhagarara, icyatsi n'ugukomeza, iri barara rindi n'ukwitegura.

Ikiraro cyubatse mu karere ka Kicukiro, aho izica munsi, ziba zigiye aho bita mu Gatenga, zakomeza ziba zigiye aho bita Kicukiro kagarama, izizamuka ziba zigiye Kicukiro Nyanza, izi manuka ziba zigiye aho bita Sonatibe.

Ikinyabiziga kiriho kiragenda mu muhanda kimanuka, ruguru hari abandi banyamaguru bari kugenda mu mwanya wabo wa hariwe abanyamaguru hari n'aho ahantu hahariwe ko abanyamaguru bagomba kwambukira, harimo ibara ry'umweru mu mirongo minini.

Umuhanda nyabagendwa rero, ugendwamo, ibinyabiziga, hakagendwamo n'abanyamaguru, n'umwanya w'imirongo y'imweru minini, ikaba igendwamo n'abanyamaguru igihe bari kwambuka umuhanda, ikinyabiziga iyo kibabonye nacyo kirahagarara kikabareka bagatambuka.

Inzira y'abagenzi bakoresha bambuka umuhanda, ini iri mu mirongo y'mweru, iyo kariya akapa kariho gatatu katse icyatsi, nibwo abagenzi baba bemerewe, kwambuka iyo harimo umutuku ntabwo baba babyemerewe kwambuka.

Igikoresho cyifashishwa mu muhanda, kikaba kireba umuntu warengeje umuvuduko wagenewe aho hantu. Kiragufotora barangiza bakakwandikira bitewe n'igiciro baba barashyizeho cy'umuntu warengeje umuvuduko.